Umugabo wambaye bote, afite ipompo, arimo kugenda atera imiti, uyunguyu n'umuhinzi wimboga kandi izi mboga ziri hano n'amashu yenda kugira igihe cyo kwera kuko yatangiye gupfundika.

Umugabo wambaye ingofero y'urubaraza ahetse ipopo mu mugongo arimo kugenda asuka imiti mu bice bigiye bitandukanye by'uyu murima, uyu nguyu ni umuhinzi w'inyanya arimo kugenda atera umuti kugira ngo yice udukoko.

Umugabo urimo kugenda anyura mu myaka ye, arimo kugenda atera umuti kugira ngo yice udukoko dushobora kuba twaraje mu myaka, kuko iyo tujemo bituma imyaka yangirika umusaruro ukagenda uba mukeya. Arimo kugenda atera akurikije uko yagiye abibiba bikurikiranye ku murongo.

Umugabo uhetse ipompo, arimo kugenda asuka umuti mu bice bigiye bitandukanye by'uyu murima. Uyu nguyu ni umuhinzi w'umuceri. Yambaye agapfukawa, gatuma umwuka uturutse hanze cyangwa se uwanduye, ushobora kumuhumanya utamugeraho.

Umugabo wambaye agashati k'umweru ndetse n'ingofero, ahagaze mu muceri, afite itiyo, rirere, arimo kugenda anyanyagiza umuti mu bice bigiye bitandukanye, arimo kugira ngo yica udukoko, dushobora kwangiza uyu muceri.

Umugore wicaye mu iduka ririmo imiti igiye itandukanye, aba ngaba ni babandi bakora akazi ko kuvura amatungo aho ategereje abakiriya bagiye batandukanye biganjemo abafite amatungo yo kuvurwa ndetse n'abandi bagiye gutera imiti.

Umugabo uhetse ipompo arimo kugenda acucira umuti mu bice bigiye bitandukanye by'ibihingwa, arimo kugenda atera umuti kugira ngo abashe kwica udukoko.

Ahantu hari amazi menshi basa n'aho batangiriye atagitemba, aha ngaha hariho kandi igice cyo hakurya kiriho ibyatsi, aha ngaha ni aho bororera amafi.

Ahakorerwa ubucuruzi cyangwa se imishinga yo kugurisha amafi, hariho amazi bagomeye hakabaho n'akazu kabamo ibiribwa bifashishwa kugaburira amafi.

Abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, bari ahantu hasa naho hakikijwe n'amahema, aha ngaha ni aborozi barimo kugenda bareba aho umusaruro wabo ugeze.

Umugabo w'umusaza afite agasahani mu ntoki, ahantu arimo kugenda ajugunya ibyoku kurya mu cyuzi, uyu nguyu akora ubworozi bw'amafi.

Abagabo barimo kugenda bakora umwuga w'uburobyi hariho umugabo urimo gufata agakoresho kabugenewe mu gufata amafi akazamura akareba ayamaze gukura akayatwara akiri matoya akayasubizamo.

Aborozi b'amafi, aho barimo kugenda barambura ihema ahantu icyuzi kugira ngo barebe ko babona umusaruro w'amafi, barimo kugenda bayorora ndetse ni na bwo buryo bukoreshwa mu gihe barimo kuroba, bagenda bafata amakeya andi atari yatura bakongera bakayasubizamo.

Umugabo ukora umushinga wo korora amafi afite ibasi harimo isambaza yagiye aroba, arimo kugenda azitoranya yerekana inini zirimo ndetse ni ikibase kinini cy'ubururu.

Abagabo babiri bari ahantu hari icyuzi kibamo amafi, barimo kugenda bashira ibiribwa muri iki cyuzi kugira ngo amafi arimo abashe kubona ibyo kurya, aba ni aborozi b'amafi iyo hashize igihe runaka baraza bakareba aho amafi ageze barangiza bakayaroba.

Abagabo bafite ibitebo, barimo kugenda bafata ingimi z'icyayayi, gusa ibi ngibi birimo biragaragaza ko bagiye gutera izi ngemwe kugira ngo bazazibyazemo amafaranga. Inyuma yabo kandi hariho imodoka ihaparitse.

Igiti k'ikawa cyamaze kuzana utubuto, harimo tumwe tugiye duhiye harimo n'izindi nazo zimaze gusa umuhondo, izindi nazo zirimo kugenda zitukura gake gake utundi natwo turasa icyatsi. Ni ukuvuga ngo igeze igihe cyo gusarurwa.

Umugore wikoreye ibase ndetse arimo ikawa avuye kuyisoroma, gusa nyuma yo kuyisoroma bayitonoye, kuko ayikoreye ntabishishwa bihari. Ni kimwe mu bintu u Rwanda rwohereza hanze, ni ibihingwa ngengabukungu.

Abantu urimo gukusanya umusaruro w'ikawa benda kuwujyana ku isoko. Ikawa yifashishwa mu kuvura kuko nayo ikorwamo umuti, ikindi kandi igemurwa mu bihugu byo hanze hanyuma bagatahana amadovize.

Umugabo urimo kugenda aterura ibyatsi yambaye ingofero isa n'imyenda yambaye y'akazi. Aha ngaha hameze nko mu ruganda aho harimo ibyatsi birimo gutunganywa.

Kimwe mu bihingwa ngengabukungu aho ari ikawa zifite utubuto duhishije, zigeze mu gihe cyo gusoromwa, aho bazifata bakagenda bakazitonora, bakaba bazikoramo ikawa yo kunywa.

Amoko y'imiti agiye atandukanye aho ashobora gusangwa mu iduka aho bacururiza imiti. Ushobora kuhasanga muganga w'amatungo akaba ashobora kukuvurira itungo ryarwaye, cyangwa se akaguha n'ubujyanama.

Imiti y'amoko agiye atandukanye yiganjemo iyo batera mu myaka, harimo amacupa maremare ndetse n'imiti y'ubundi bwoko bugiye bitandukanye, harimo kandi iyo bahereza inka ndetse n'andi matungo igihe yarwaye kugira ngo yongere akire.

Iduka ririmo imiti y'amoko agiye atandukanye yiganjemo ihabwa amatungo, harimo ihabwa inkoko hakabamo n'indi igiye itandukanye, aha ngaha wasangamo n'umuganga w'amatungo.

Ubworozi bw'inkoko aho hano hariho imishwi myinshi cyane irimo, hano harimo n'abantu barimo kugenda bareba ko imeze neza ndetse kandi hariho imiti bigenda bifata kugira ngo imere neza kandi ikure.

Imiti y'amoko atandukanye harimo iyiganjemo iyo bahereza amatungo igihe yarwaye ndetse kandi hariho iyo bashobora gutera mu myaka mu gihe barimo kwica udukoko dutuma imyaka itera neza umusaruro ukaba muke.

Imiti iri mu macupa agiye atandukanye y'umweru, yifashishwa mu kuvura amatungo ndetse kandi iyi ngiyi ishobora no gukoreshwa mu gihe bari gutera ibihingwa bica udukoko kubera ko ishobora kwica indwara cyangwa se udukoko tugiye dutandukanye.

Imiti y'amoko atandukanye yifashishwa mu kuvura inyamaswa, cyane cyane amatungo yo mu rugo ndetse kandi ishobora kwifashishwa mu gutera ibimera, mu gihe bashaka kwica udukoko runakashobora dushobora kuba ibyonnyi.

Amoko y'ibiti biri mu bihobo bya bindi biba bicyororwa kugira bize guterwa ahantu runaka, biri mu bihoho ndetse aha ngaha bagenda bivomerera kugeza bikuze mu gihe bikiri bitoya kugeza igihe bigeze ku rwego biba bishobora guterwa cyangwa se bitakuma mu gihe babiranduye hano biri.

Umugabo ufite umupanga ndetse afite n'ubwatsi mu ntoki, arimo kugenda atema urubingo kugira ngo arujyanire amatungo, ashobora kuba agiye kuruhereza inka cyangwa se agiye kuruhereza ihene, andi matungo menshi ashobora kurya ibyatsi.

Amoko agiye atandukanye y'inka, harimo izibyara, hakabamo ibimasa, birimo kugenda zirisha mu bice bigiye bitandukanye, aho haba hariho umuntu ushinzwe kuzirinda.

Umugabo wunamye yacukuye arimo kugenda atera ibihingwa ari gutera igiti bita gereveriya gishobora kuzakurwamo inkwi cyangwa se akazakibaza mu gihe kimaze gukura akaba yakuramo imbaho zo gukoresha ibikoresho bigiye bitandukanye.

Umugore n'umugabo, umugabo uhari ni umusaza, yambaye akagofero, afite n'agakoni arimo kugenderaho, umugore uri imbere yikoreye intebe, za zindi za pulasitiki, zikunze kuboneka ahantu hari utubari cyangwa se mu birori runaka.

Inka ebyiri zifite amahembe maremare. Zirimo kugenda mu muhanda ndetse hakurya hariho igihuru. Ni aho bashobora kuzahura zikarisha ndetse nyirazo akaba azihagarikiye ari hafi aho.

Aho bita ku biti bigiye bitandukanye aho hari ibiti by'amoko agiye atandukanye biri mu bihoho, aha ngaha uraza ukabigura ukajya kubitera ushaka gukora agashyamba.

Abagore bagera kuri bane barimo kugenda basasira amashu, aba ngaba ni abahinzi b'imboga, barimo kugenda bafata neza ibi bahinze kugira ngo bazabone umusaruro.

Umurima urimo insina z'amoko agiye atandukanye, yiganjemo izo barya bazitetse harimo inyamunyo, aha ngaha kandi ziratoshye zirasa neza.

Iduka ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byiganjemo amakaroni, aha ngaha ushobora kujyana amafaranga yawe ukagura icyo ushaka isaha ku isaha igihe ubishakiye, aha ngaha ujyana amafaranga umucuruzi na we akaguha igicuruzwa.

Ahantu hari ibyatsi bi bigiye bitandukanye, ni ahantu mu gihuru hahandi usanga hatagegwa n'abantu, aho haragirwa amatungo ndetse kandi aha ngaha ahenshi haba ari mu ishyamba.

Ibirayi byeze biri mu butaka, bagiye bakuraho itaka kugira ngo babisarure, baragaragaza umusaruro uvuye kuri iki kirayi. Gifite ibirayi, bigera ku munani ni ukuvuga ko keze neza cyane, ucukuye no munsi, ushobora gusangamo ibindi.

Umurima uhinzemo igihingwa cy'icyayi cyifashishwa mu kuzana amafaranga ndetse kikanoherezwa mu gihugu cyo hanze, ibi ngibi ni bimwe mu bizana amadevize mu Rwanda ndetse n'abaturage babihinga bakabona amafaranga bakikura mu bukene.

Igihingwa bita imyumbati ushobora gukuraho n'i isombe yo kurya ikigiki cyaracyari gitoya, nabwo kiragera igihe cyo gutanga umusaruro habura amezi agera kuri ane, kugira ngo kibe kimaze gutanga umusaruro.

Ibigori biteye bimaze kugira amababi menshi ndetse bitangiye kuzana igiti, mu buryo mu minsi iri imbere biba bifitetiye amasunzu cyangwa se indabo bitangiye guheka, biri ahantu hari ubutaka bwiza bw'umukara ni ukuvuga ngo birasa neza cyane bizatanga umusaruro ukurikije uko bigaragara.

Umuhanda uciye ahantu hari insina nyinshi ndetse hari n'ibigori bihinze ahantu hari amahumbezi kuko biragaragara ko ari mu gihe k'imvura kuko ibyatsi biratoshye ndetse n'ibiti biracyafite amababi yabyo uko ari yose.

Ikimera bita indimu zifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye, iki kimera kiriho mbuto zenda kwera, ni ukuvuga ngo mu minsi iri imbere bazaba bari gusoroma bakuraho umusaruro kugira ngo bazigemure mu bice bigiye bitandukanye, babone amafaranga.

Agace gatewemo ibijumba, aha ngaha ni imigozi y'ibijumba, aho ushobora kuyikata ukagenda ukayitera ahandi hantu hari ubutaka buteguye neza, hanyuma mu gihe runaka ukazaza ugakura ibijumba bimaze kwera.

Umurima aho utari wahingwa hariho ibigori, batemye ndetse babyita ibigorigori, kandi hariho umuntu wagiye acana kuko harimo gucumba umwotsi, barimo kugenda batwika ibyatsi kugira ngo bakore isuku mu murima.

Ikibaya kirimo ibihingwa byiganjemo ibigori ndetse hejuru haciyeho insinga z'amashanyarazi, ahanga ni mu kibaya, aho umuntu ushobora kuba afite umurima munini, ushobora gusaruramo amatoni n'amatoni y'ibigori.

Ishyamba rigizwe n'ibihu byinshi ni cya gihe aba ari mu gitondo imvura imaze kugwa cyangwa se ariho bugicya, aha ngaha ntabwo ushobora kubona umuntu ukwegereye uretse uwo muri kumwe, umuntu uri mu ntera ndende nta nubwo ushobora kumenya ko ahari kubera ko bino bihu biba byahapfutse.

Ishyamba rigizwe n'ibiti binini cyane ndetse aha ngaha ntabwo umuntu uwo ari wese aba yemerewe kujyamo kuko inyamaswa ishobora kukuriramo kandi aha ngaha higanje ibihu ni mu masaha ya mu gitondo.

Abagabo bagiye batandukanye biganjemo abakorera inzego z'umutekano, hariho Abadaso ndetse hakabaho n'abasirikari, bari ahantu mu gashyamba barimo kugenda bakora umuganda.

Ishyamba ririmo ibiti by'amoko agiye atandukanye, aha hantu ntabwo hahingwa, harimo ibiti bishobora gukoreshwa mu gihe barimo gukora intebe cyangwa se mu gihe bari kubaka.

Agasozi katari karekare cyane, aho kiganjemo amoko agiye atandukanye y'ibiti. Aha ngaha kandi ibiti ntago ari binini, ni byinshi, ni bigufi, aha ngaha ntago bikura ngo bigere hejuru cyane.

Ishyamba rigizwe n'amoko agiye atandukanye y'ibiti, aha ngaha ni hamwe muri ya mashyamba ya kimeza, aho harimo amoko agiye atandukanye y'ibiti, hashobora kuba hatuwemo n'inyamaswa.

Umurima uhinzwe vuba aho nta bihingwa birimo, harumaganye bisa nkaho ari mu gihe cy'impeshyi, hakurya ariko hateye ibiti gusa nabyo ntabwo byegeranye ni kimwe kimwe, bisizemo intera nini hagati y'igiti kimwe n'ikindi.

Ishyamba ririmo ibiti byinshi ndetse n'ibihuru, mu kibaya ho nta biti bihari uretse ibyatsi gusa. Hakurya hariho n'utundi dusozi tugiye dutandukanye, aha ngaha kandi hariho n'ibihu bya bindi bizanwa n'igihe k'imvura.

Aho bororera ibiti by'amoko agiye atandukanye, aho hano hariho ivase irimo igiti kikiri gitoya cy'umwembe, aho ushobora kukijyana ukagitera ahantu.

Amoko y'ibihingwa bigiye bitandukanye yiganjemo inyanya zimwe zitukuye, hariho ibihaza hakabaho n'ahandi hagiye hahinze indabo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ahari imboga z'amoko agiye atandukanye, harimo amashu ndetse n'izindi mboga zubakiye, aha ngaha ni aho bakorera ibijyanye no guhinga imboga.

Itsinda ry'abagore bamwe muri bo bafite abana, ahangaha bari ni hahandi bororera ibiti cyangwa se muri pipiniyeri, aho bafite amoko y'ibiti ari mu bihoho, bya bindi umuntu ashobora kujyana akagitera kugira ngo kizakure kivemo ishyamba.

Abahinzi bagera kuri bane barimo guseka cyane, bahagaze mu bimera bita ibihwagari, bitangiye kwera kuko urabona ko byatangiye kuzana indabo, abanga barimo guseka cyane, ushobora no gusanga ari n'itsinda cyangwa se koperative.

Umugabo urimo gusarura imboga aha ngaha ni puwavulo yahinze arimo kugenda zikusanya zihinze muri bwa buryo bugezweho aho aba hubakiwe arimo kugenda zikusanya kugira ngo abashe kuzijyana ku isoko.

Akarima k'igikoni kubatse mu buryo bugezweho, aho kazengurukijwe n'imifuka ndetse n'uduti, harubatse neza harimo imboga z'amako agiye atandukanye ziganjemo dodo, ibitunguru ndetse na karoti.

Ahantu hatewe ibihingwa mu gihe k'impeshyi aho hariho amatiyo ari kuzana amazi ayajyana mu bice bigiye bitandukanye, no kugira ngo ibihingwa bigume bimeze neza, ndetse bizatange umusaruro uhagije.

Umugabo ufite itiyo arimo kugenda asukira ari kuvomerera ibihingwa kugira ngo bigire umusaruro, ni muri cya gihe cy'impeshyi aho baba bagenda bavoma amazi bashira ku bihingwa kugira ngo bizatange umusaruro.

Agace karimo amaterasi y'indinganire harimo abagabo ndetse n'abandi benshi barimo kugenda bavomerera ubutaka bwabo kugira ngo imbuto ziteyemo zibe zitoshye, aha ngaha kandi ni aho bahinga ubwatsi ku mikingo y'amaterasi ndetse no mu materasi bagahingamo ibindi.

Amatiyo aciye mu mirima ya yandi yifashishwa mu kuvomerera imyaka aho arimo kugenda anyanyagiza amazi mu bice bitandukanye by'umuririma kugira ngo aze kuyivomerera muri cya gihe cy'impeshyi kugira ngo imyaka itaza kuma.

Umugabo ufite igikoresho kirimo amazi arimo kugenda avomerera, ni muri cya gihe izuba riba rya ryinshi, bagenda bamena amazi ku bihingwa kugira ngo bitumba.

Umugore ufite itiyo rirerire arimo kugenda avomerera mu muririma, ari kugira ngo ibi bihingwa bibe bitoshye ku buryo bidashobora kwicwa n'izuba cyangwa se mu igihe ubutaka bwumaganye, kuko arimo kugenda avomerera ashyiramo amazi.

Ahantu hateretse imirasire ye ndetse yubakiye, hariho amatiyo agiye atandukanye arimo kugenda asuka amazi ayajyana mu bice bitandukanye, ubu ni bwa buryo bukoreshwa iyo buhira imyaka.

Umumama urimo kuhira imyaka, afite indobo y'umukara akagira n'agasahani arimo kugenda ayoresha amazi mu ndobo akanyanyagiza mu bice bigiye bitandukanye by'uyu murima.

Abagore n'abagabo, bamwe muri bo barimo kugenda bitegereza, uyu nguyu urimo kugenda asuka amazi mu butaka, arimo kugenda avomerera ibintu cyangwa se imyaka, bamaze gutera.

Umugabo uri kumwe n'abasore bagera kuri babiri, barimo kugenda bavomerera imyaka, bafite amatiyo arimo amazi barimo kugenda banyanganyeza mu bice bigiye bitandukanye by'uyu murima kugira ngo ngo ibihingwa bimere neza.

Ikiyaga gikorwamo amazi ajyanwa mu bice bigiye bitandukanye, yifashishwa mu kuhira imyaka igihe hari imvura nkeya cyangwa se igihe izuba riri kuba ryinshi, cyane cyane mu gihe cy'impeshyi kugira ngo ibimera bize kumera neza.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye hubatse igikorwa remezo cya kindi gitanga amazi mu gihe barimo kuhira kigenda kicucira amazi mu bice bigiye bitandukanye by'umurima ubundi ibihingwa bikamera neza.

Umugabo urimo kugenda aterateranya amatiyo, ni ya yandi aba ari mu bitaka aba arimo udutiyo dutoya tugenda tujyana amazi mu bice bitandukanye mu gihe bari kuvomerera.

Agace karimo ibihingwa bigiye bitandukanye byiganjemo insina, ndetse hepfo cyane hariho ikiyaga gikikijwe n'indi misozi igiye itandukanye, ni ukuvuga ngo iki kiyaga kiri ahantu hari ikibaya ndetse hakikijwe n'amashyamba.

Agasozi kariho insina, hakabaho n'amaterasi y'indinganire, atuma kano gace kaba keza, hariho imisozi igiye itandukanye, aho umuntu uri hejuru kuri iyi misozi aba areba ibice bigiye bitandukanye.

Imisozi ibiri iteganye irimo ibihingwa bigiye bitandukanye byiganjemo ibiti ndetse n'ibindi bimeze nk'ibyayi bihinze mu duce tumwe na tumwe, ahangaha baragaragaza ibyiza bitatse u Rwanda kuko hagize n'amashyamba agiye atandukanye.

Agace karimo ikiyaga. Ndetse ikiyaga hakurya yacyo hariho udusozi twatundi tuba tumeze nk'uturwa. Ku ruhande kandi hariho ibiti by'amoko abiri atandukanye bizengurutse kino kiyaga, aho umuntu uri hano aba ashobora kumva amahumbezi.

Agasozi kariho amaterasi ndinganire, hariho ibihingwa by'amoko agiye atandukanye, aha ngaha ni aho abaturage bahinga imyaka yabo.

Agasozi kariho ahantu hirengereye aho ushobora kureba ibi kubera hakurya mu kibaya, ndetse no mu misozi bitandukanye, kuko ahangaha hafite ubutumburuke burebure ugereranyije n'ibindi bice bihakikije, ndetse urabona ko ikirere gisa neza.

Agasozi kameze neza kubera ko gaciweho amaterasi y'indinganire. Bagiye bazengurutsaho amaterasi, ku buryo isuri idashobora kwataka hano hantu. Hameze neza ku buryo ashobora gukurura ba mukerarugendo.

Abantu bakoraniye mu murima biganjemo abagore ndetse n'abagabo. Barimo kugenda babagara bakuramo ibyatsi biri muri uyu murima, barimo kugenda babagarira aya matunda kugira ngo atange umusaruro.

Imisozi ibiri iteganye umwe hakurya n'undi hakuno, hejuru y'ikirere kirasa neza, hariho ibihu by'umweru ndetse n'ikirere cy'ubururu, hari amoko y'ibiti agiye atandukanye ateye muri aka gace.

Ikiyaga kiri ahantu mu kibaya, ndetse kigizwe n'uturwa tugiye dutandukanye, hakurya hariho umusozi muremure ukora ku bicu. Hanyuma kandi hariho ibihinyigwa bigiye bitandukanye, bitoshye cyane byegereye kino kiyaga.

Ahantu hari imisozi mitoya itari miremire, hakurya hariho indi misozi myinshi udashobora kurebesha n'ijisho, mu kirere higanje ibihu bya bindi bituma imvura igwa.

Imisozi iri ahantu ikikije ingo, aho aba bantu batuye aha batuye munsi y'umusozi, aho akayaga kaba kabageraho neza kandi n'amahumbezi ubwayo.

Agace karimo imisozi igiye iteganye imwe hakurya indi hino, ahenshi hari ibibaya birimo insina zigiye ziteye, hari ibiti byinshi byiganjemo inturusu, zifashishwa mu gukoreshwa, mu kubaka cyangwa se igihe bashaka kuzibazamo imbaho.

Agace karimo ibyiza bitatse u Rwanda, kiganjemo ikiyaga, hakaba hakikijwe n'imisozi igiye itandukanye, ku ruhande hakaba hateye icyayi, kimwe mu bintu bikurura ba mukerarugendo.

Ikiraro cyubatse neza aho kirimo amatungo agiye atandukanye cyane cyane ibiraro nk'ibi biba birimo inkwavu, hanze kandi hariho umucaca umeze neza kuko aha hantu hagirirwa isuku, aha ngaha ni aho bororera inkwavu.

Ubworozi bw'inkoko aha ngaha hariho amoko agiye atandukanye y'inkoko, harimo iz'imikara hakamo n'izindi z'imyeru, aha ngaha hagaragaza n'aho zigenda zifatira ibyo kurya aha ngaha muri iki kiraro.

Ubworozi bw'amatungo aho hano bwiganjemo ihene z'amabara agiye atandukanye iz'umukara ndetse n'umweru, aha ngaha ziri mu kiraro ni aho ziba zihava bagiye kuziragira gusa.

Ubworozi bw'inkoko aho hariho amoko agiye atandukanye y'inkoko yiganjemo imishwi hariho aho zigenda zinywera amazi ndetse n'aho zirimo kugenda zirira ibyo kurya.

Ubworozi bw'amatungo aho hano hororewe inkoko mu buryo bwa kijyambere, hariho umuntu uzishinzwe, arimo kugenda areba uko zimeze, ndetse areba ko zateye amagi ahangaha zimeze neza ziri mu buryo bwa etaje zimwe hasi izindi hejuru.

Ubworozi bw'amatungo aho ari inka iri mu kiraro, ahantu iri harasasiye hameze neza hari n'ibyatsi ndetse iyi nka irimo kuririsha yonyine, inyuma kandi ku rugi rusize irangi ritukura ndetse n'ibindi byuma bikikije mu mpande ku buryo iri tungo idashobora gusohoka.

Ubworozi ahorowe ingurube z'amoko agiye atandukanye, ziganjemo amashashi, ndetse zose ziri ku rugero rumwe. Aha ngaha ziherebwa ibyo kurya ahantu hamwe ndetse zigasangirira hamwe, zikogerezwa hamwe, kuko ubona ko zifite isuku, zitabwaho cyane.

Aborozi b'inka aho babiri muri bo, barimo kugenda bakama inka, umwe arimo kugenda azihuriza hamwe, abandi babiri bakagenda bakama, bafite ibicuba bitwarwamo amata mu gihe barimo kuyakusanya, yamaze gukusanywa niho ajyanwa muri kiriya gikoresho.

Inka yororewe mu kiraro irimo kurisha yonyine. Ahangaha ni bwa buryo bwo kororera amatungo mu kiraro, aho uba utemerewe kuragira ku gasozi kugira ngo utaza kwangiza ibidukikije. Kandi ubu buryo butanga umusaruro ndetse bigatanga n'ifumbire.

Ihene ziri mu rwuri, irimo kurisha, ihene ishobora kwifashishwa mu birori barimo barayirya, mu tubari naho wasangamo, ndetse kandi ni kimwe mu bworozi bushobora gutanga umusaruro muburyo bwihuse kuko ni imwe mu matungo magufi.

Ubworozi bw'amatungo magufi, aho hano hari ingurube, aha ngaha barazoroye irimo kugenda irya ibiryo bayihaye, ingurube kandi irasa umweru biragaragara ko yogejwe.

Ubworozi bw'inkoko aho hano hari ikiraro kirimo amoko agiye atandukanye y'inkoko zimwe zirasa n'umweru aha ngaha ni za zindi ziba zitera amagi umuntu agakora ubucuruzi bugiye butandukanye buyashingiyeho.

Ubworozi bw'amatungo aho hari inkoko z'ubwoko bugiye butandukanye zorowe, ahangaha n'aho bazana inkoko zigiye zitandukanye bakazorora zamara gukura bakazigurisha.

Ubworozi bwa bundi bugezweho, aho aha ngaha hariho inkoko nyinshi cyane, ariho ahantu zigenda ziterera amagi, aho umuntu cyangwa se umworozi, nyirazo aza akagenda atora amagi, aho inkoko zagiye ziyatera.

Ubworozi bw'inkoko aho hari amoko agiye atandukanye nk'inkoko cyane cyane izitera amagi, aho nyirazo ashobora kuzigurisha igihe zimaze gukura cyangwa se agategereza ko zitera amagi.

Ubworozi bw'inkoko, bwiganjemo inkokokazi, izitera amagi ndetse ahangaha hasi bagenda bamenaho ibiribwa, aho za zishobora kugenda zibya ndetse zimeze neza cyane, ahangaha kandi umworozi amenya neza ko zabonye amazi kugira ngo ziticwa n'inyota.

Ihene nyinshi ziri ahantu mu rwuri, zirimo kurisha. Ni kwa kundi umuntu azahura ku gasozi, ndetse n'ihene nyinshi ariko hariho n'umushumba uri kugenzura uko ziri kugenda zirisha, ziganjemo izibyara ndetse ahangaha nta mfizi iriho.

Umugabo urimo kugenda ashimashima inka ye, harimo kugenda ayikoraho ndetse kandi ni za nka zororewe mu biraro mu buryo bwo kurinda ibidukikije, ndetse no kubona ifumbire yo guteresha imyaka. Aha ngaha ni uburyo bugezweho ndetse bukoreshwa mu kurwanya isuri.

Ubworozi bw'inkoko aho ziganjemo izitera amagi, ahangaha ziri naho umworozi ashira imiti cyangwa se akahashira ibyo kurya, niho zihurira igihe zije kurya, ahangaha umworozi ntabwo ashobora kubura amagi yo kurya.

Imbuto iri mu dupaki tugiye dutandukanye, higanjemo iy'amasaka, harimo amashaza ndetse n'ibindi. Hariho umugore urimo kugenda atsindagira ashyira ibiganza bye ku mbuto.

Icyumba kirimo umusaruro bagiye basuka, ni hahandi bakusanyiriza umusaruro ugiye utandukanye kugira ngo uzajyanwe mu bice bigiye bitandukanye by'Igihugu.

Ububiko burimo imifuka igiye itandukanye igerekeranye, aha ngaha ni aho bahunika umusaruro, gusa hari igihe usanga ari ahantu uruganda, rushira ibyo rwamaze gutunganya.

Ahantu bororera amatungo agiye atandukanye, higanjemo inka ndetse kandi hariho n'abantu barimo kugenda bareba uko zimeze niba zimeze neza banazitaho.

Ubworozi bw'inka aho umuganga w'amatungo arimo kugenda avura izi nka ndetse inyinshi muri zo zifite amahembe maremare ndetse ahangaha ni mu rwuri aho zirimo kugenda zitambuka, hanyuma uyu muganga w'amatungo akagenda azikingira imwe kuri imwe.

Ahantu hariho inyama zigiye zitandukanye, hariho n'umuntu urimo kugenda azikora, aha ngaha ni mu busheri cyangwa se aho umuntu ashobora kugurira inyama mu gihe azikeneye.

Umugabo n'umugore bahagaze hamwe uyu mugabo afashe inkoko arimo kugenda ayasamura kugira ngo arebe ikibazo afite, uyu mugore kandi nawe aramufashije aba ngaba barasa n'abaganga b'amatungo ba bandi bafata neza cyangwa se baha umuti itungo igihe ryarwaye.

Itungo riryamye hasi hariho umuntu urimo kugenda arivura, bagera kuri batatu bambaye uturindantoki t'ubururu, uyu ni umuganga w'amatungo arimo kugenda ayibaga.

Amoko y'inka agiye atandukanye, yiganje mu za zindi zifite umwihariko mu muco wa kinyarwanda, aho ziteze amahimbe, izi ngizi bazita inyambo. Zirimo kugenda zitambuka, hakaba n'umuntu ushinzwe kuzivura, uri kugenda azireba.

Icyana gitoya k'intare, iyi ngiyi nubwo ari ntoya ariko ishobora kukurya igihe utayitondeye. Aha ngaha ni aho intare ziba cyanecyane ziboneka muri parike nasiyonare y'Akagera.

Inyamaswa zo ku gasozi ziganjemo inzovu, zirimo kugenda mu mazi zirimo kugenda zinywa amazi, zikoresha cya gice kirekire zirimo kugenda zikoza mu mazi zarangiza zigashoka, ahangaha zigera kuri eshanu zikunze kuboneka mu cyanya cy'Akagera.

Inyamaswa yo ku gasozi ifite uduhembe tureture imeze nk'ihene uyirebye neza, gusa iyi ngiyi bayita impongo, ihagaze hejuru iri yonyine iri ahantu mu ishyamba, aha ngaha bashobora kuba ari muri pariki.

Inyamaswa zirimo kugenda zogera mu mazi magari, ibingibi babyita ibishuhe, urebye neza ubona koba bimeze nk'imbata, tubaturikugenda twiyereza mu mazi, bishobora kororwa n'abantu cyangwa se bikorerwa ku gasozi.

Inyamaswa bita inzovu zirimo kugendera hamwe inini ebyiri, ndetse n'akandi gato zikunze kugendera mu matsinda, kandi ni ukuvuga ngo iyo ziri kugenda nta kintu kijya kizitambika. Inzovu zigenda zikandagira wumva imirindi aho zinyuze.

Akanyamaswa gafite umurizo muremure, utunyamaswa twinshi nk'utuntu tuboneka mu ishyamba, cyangwa se muri parike, aho umuntu ashobora kutubona mu gihe yagiye kuzisura, akihera ijisho.

Inyamaswa iba muri parike ya nasiyonali y'Akagera, yitwa ingwe. Irimo iragenda izenguruka ireba ko yabona icyo kurya. Ni ukuvuga ngo iyo utayitinye irakurya.

Akanyamaswa karyamye hasi gafite amahembe ameze nk'amashami, izi ngizi bavuga ko ziboneka mu bihugu bya Aziya cyangwa se ahandi hantu haba urubura, aha ngaha kandi ushobora kugasura kuko ni kamwe mu bwiza nyaburanga.

Iyi inyamaswa iba ku gasozi bita impongo, ibafite amahembe maremare, ku buryo uramutse uhuye nayo cyangwa se ikarikujumba ishobora kugukomeretsa, izi nyamaswa ziba muri Parike nasiyonali y'Akagera, ushobora kuzisura rimwe na rimwe.

Inyamaswa iba mu gasozi bita intare, aha ngaha iryamye ku giti irimo kwiyumvira akanyenga. Irimo kwitegereza mu bice bigiye bitandukanye ari na ko igenda yota akazuba.

Inyamaswa bita impongo ifite amahembe maremare, irimo kugenda iyatera hejuru nayo ikareba hejuru ndetse iyingiyi muramutse muhuye ishobora ku kujomba aya amahembe, ku buryo uramutse utirutse ikagufata ishobora kugutera ikibazo cyane cyane kijyanye no kugukomeretsa, aho ushobora kuhaburira n'ubuzima.